Mu burezi habamo ibyiciro byinshi by'amashuri, nk'icyiciro cy'amashuri abanza, ni ukuva mu mwaka wa mbere, kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Bigisha neza, abana barya ku mashuri yabo.

Imyuga n'ubumengiro igira akamaro kanini cyane, abanyeshuri bigamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, babona ibintu byinshi cyane, badukorera kompiyuta zacu, abigisha bakatwigishiriza n'abana bacu baba babikeneye.

Amashuri yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, afite akamaro kanini cyane; bamwe biga gufata amashusho mu bukwe bw'abantu, bafata n'amafoto kugirango ngo bigaragare neza.

Abanyeshuri biga ibajyanye n'ubukerarugendo. Baba bagomba gusura parike z'ibirunga ziherereye mu Kinigi mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, bagasura n'ahandi hantu hari amateka ya kera cyane cyane.

Amashuri yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro yateye imbere, ni meza cyane, hari abiga kudoda, gukora inkweto n'ibindi bikoresho byinshi cyane biba bitandukanye, batudodera imyenda myiza cyane, amaribaya y'abagore, badukorera inkweto nziza cyane z'abagabo.

Abanyeshuri bi biga imyuga y'ubumenyingiro bagira akamaro kanini cyane; nk'abiga amazi barayadukorera, badushyirira imigezi mu nzu zacu, bayobora amatiyo, bambara amasarubeti y'akazi, ingofero, inkweto z'akazi, ubundi bakadukorera ayo mazi.

Abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro baba barize neza cyane bigamo nko gusuka, bigira akamaro kanini cyane bitanga amafaranga, gusuka bituma umuntu agaragara neza ku mutwe we, bafata imisatsi bagashyiraho menshi nuko bikaba byiza cyane.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyin ngiro， agira akamaro kanini cyane，n'abiga guteka，baba barabihuguriwe，bashaka kubikora muri hoteri，bagateka ibiryo byiza cyane. Abazungu bajya bageze mu Rwanda，n'abandi bantu baba bakoresheje ubukwe，bashaka kubirya cyangwa baba basohotse.

Tugira amashami menshi ajyanye n'imyuga n'ubumenyi ngiro hari ababaza kubaza intebe n'ameza baba bafite inzu y'umwihariko bakoreramo ibyo bintu bijyanye n'ububaji.

Tugira abanyeshuri benshi baba batandukanye hari abiga mu mashuri yisumbuye baba bamaze gukura barangiza amashuri atandatu matoya bagahita bajya mu yisumbuye biga neza baba bafi...

Mu mashuri y’imyuga n'ubumenyingiro， habamo amashami menshi，aba atandukanye， bigishamo nko kubaka， bapima ubutaka，bapima ibibanza， bapima imihanda n'ibindi byinshi cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagira umuco cyane, baba bamaze gukura bigiye hejuru iyo baba barangije ayo mashuri yabo, babaha impamyabumenyi bita diporome y'ukuntu bagize amanota meza.

Mu myuga n'ubumenyingiro bigisha ibintu byinshi cyane biba bitandukanye, nk'ubudozi buteye imbere, batudodera imyenda, inkweto, amajipo, amashati, amapantaro, amakote n'ibindi byinshi cyane tukodesha.

Abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro, bigamo ibintu byinshi urugero nko gusudira, basudira inzugi z'ibyuma, amadirishya ya metalike n'ibindi byinshi cyane, biga bambaye amasarubeti, udupfukamunwa, amadarubindi.